Umugore wambaye igitenge n'umupira w'imbeho, yambaye n'ingofero mu mutwe ahagaze kuri robine avoma amabido.

Amazi y'isoko ni meza ku buzima bw'abantu, ntabwo ahenze kuyabona, kandi afasha abantu mu mirimo itandukanye, mu guteka, mu kumesa ndetse no kuyanywa.

Abana bahagaze begeranya bafitanye ku rutugu, bose bambaye imipira isa y'ubururu yanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru n'umukara.

Ni byiza gutoza abana gukaraba, bibafasha kwirinda indwara zituruka ku mwanda ukabije nk'indwara y'amavunja.

Ni byiza gukaraba mu ntoki, n'amazi meza n'isabune, mbere yo kurya, birinda indwara zitandukanye nk'inzoka zo mu nda.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hicaye umugabo ufite impapuro mu ntoki, wambaye ijaketi y'umweru n' n'umupira w'umutuku.

Ni byiza gukaraba ku ntoki n'amazi meza n'isabune, birinda indwara ziturutse ku myanda zitandukanye, nk'indwara y'inzoka, indwara y'impiswi, ni ngombwa kubitoza abana.

Abagore bambaye imyenda itandukanye, bafite indobo mu ntoki y'ubururu n'iy'umutuku, bariko kuvoma amazi kuri robine.

Abana babiri bicaye mu cyumba kimwe, umwe yazamuye ukuboko, bombi baricaranye bari kureba imbere.

Amazi y'isoko ni meza ku buzima bw'umuntu, afasha mu mirimo itandukanye yo mu rugo, kumesa, ndetse no kuyanywa.

Uyu mwana yambaye ipantaro n'ishati, bari gukaraba mu ntoki, amazi ari kuva mu ndobo y'umweru ifite umufuniko w'icyatsi.

Abagore bicaye, bari kumwe n'umwana wambaye ingofero mu mutwe, imbere yabo hari umugore wicaye wambaye itaburiya yo kwa muganga y'umweru, ifite ikora ry'icyatsi, afite ikayi mu ntoki, ari gukora ku itama ry'uwo mwana.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura n'ishati, yunamye avoma amazi, ava kuri robine ajya mu gikombe.

Icyumba kicayemo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, hagati yabo harimo ameza bose bicaye barebana.

Abagabo n'abagore bahagaze, bambaye imipira y'imihondo, bahagararanye n'umupolisi w'u Rwanda. Imbere yabo hari abagore babiri n'umugabo umwe, bunamye batera imboga.

Umugabo wicaye wambaye bote z'umweru, yicaranye n'umugore ufite umwana, bose bafite ibipapuro mu ntoki.

Umwana wunamye munsi ya robine iri kuzana amazi, yatezeho ibiganza n'umunwa, inyuma ye hahagaze abantu, hirya ye hari intebe yo kwicaraho.

Umwana wunamye, kuri robine, ari kunywa amazi, yambaye ikabutura itukura, yambaye n'agakote, munsi ye harimo indobo.

Umwana w'umukobwa uhagaze, afite icupa mu ntoki ririmo amazi ari kumena hasi.

Umwana w'umukobwa wambaye iniforume y'ishuri, ahagaze kuri robine akaraba ku ntoki, areba ku ruhande rwe.

Umubyeyi ukenyeye igitenge wambaye umupira ukeneye igitambaro mu mutwe, ateruye ibido ku mutwe cy'umuhondo gifunikije umufuniko itukura.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye bicaye mucyumba giteye irangi ry'umuhondo bose bari kureba imbere.

Abana b'abakobwa bambaye iniforume y'ishuri bunamye bose, imbere yabo bafite agati bose bahurijeho amaboko.

Abahungu n'abakobwa b'abanyeshuri bambaye iniforume bari kuvoma amazi mu ndobo z'umuhondo, abandi nabo bunamye bakaraba mu ntoki.

Umugore uhagaze yambaye umupira, akenye igitenge, yambaye ingofero mu mutwe, ari kuvoma amazi mu njerekani imwe.

Ni byiza koga mu biganza n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya, bidufasha kwirinda inzoka zo mu nda zaturuka ku mwanda.

Abagore bahagaze ku murongo bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari amabido menshi, bari kuvoma kuri robine y'akazu.

Umugore uryamye apfukamye hasi wambaye igitenge n'umupira w'umukara ukenyeye igitambara mu mutwe, hejuru ye hahagaze abagabo babiri umwe ufite mikorofone mu ntoki.

Icyumba kirimo abagabo batatu n'umugore umwe, bahagaze bambaye imyenda itandukanye, bambaye udupfukamunwa bose.

Imodoka y'ibara ry'umweru, yanditseho amagambo ambulance mu ibara ritukura, ihagaze ahantu hari abantu benshi bambaye imyenda itandukanye.

Umwana wambaye ishati n'ijipo ifite ibara ritukura, arunamye ari kogera mu ibase, amazi ari guturuka muri robine.

Umwana w'umuhungu wunamye areba imbere, ari gukaraba mu mutwe amazi ava kuri robine aseka.

Icyumba gisize irange ry'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hahagaze umugabo wambaye ikote, uhagaze imbere kuri podiyumu, isize irangi ry'umweru n'ubururu.

Umugore wambaye igitenge n'umupira, ahetse umwana mu mugongo. Arunamye ari koza umufuniko utukura w'indobo.

Ni byiza kugira isuku y'ibyo turiramo n'ibyo tunyweramo, kubyoza n'amazi meza n'isabune twarangiza tukabishyira ku izuba, bikumishwa n'izuba.

Icyumba cyo gukoreramo inama, hicayemo abagore babiri n'abagabo batatu, imbere yabo hateretse amazi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo na rinete mu maso arasutamye, imbere ye hahagaze umwana muto wambaye umupira w'umuhondo.

Umwana uhagaze wambaye umupira w'ubururu uciyemo imirongo y'umukara. Afite isabune mu ntoki, imbere ye hari umuntu urikumusukira amazi mu ntoki.

Abagore n'abagabo bambaye imipira y'umweru hejuru, bose bari kumwe bahagaze abandi bicaye bareba imbere.

Abana babiri bahagaze, umwe ari gukaraba mu ntoki ari no guseka, undi afite igikombe mu ntoki ari kumusukira amazi mu biganza.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bahagaze mu nzu y'amabati bose bahagaze bareba imbere.

Abagore bicaye ku murongo bateruye abana, imbere yabo hari umugabo ubicaye imbere, wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare.

Ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune, bifasha kwirinda indwara zituruka ku mwanda nk'indwara z'inzoka zo mu nda.

Abana b'abakobwa bambaye iniforume y'ubururu n'abahungu bambaye iniforume ya kake, bicaye mu ishuri bari kurya bari kureba imbere.

Icyumba kirimo umugore wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare na ga, imbere ye hari umugore uteruye akana bari kurebana.

Ni byiza gutoza umwana gukaraba ku ntoki mbere yo kurya, kuko bimufasha kumurinda indwara zituruka ku mwanda, nk'indwara y'inzoka zo mu nda.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama, mu nzu isize irange ry'umweru, amadirishya asize irange ry'ubururu, bose imbere yabo hari amacupa y'amazi.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba kimwe, bose bicaye bareba imbere, bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Ahantu hari uruganda rw'amazi rukorutiriye, rwegeranye n'inzu ifite amabati y'umutuku hahagaze abagabo babiri.

Umwana w'umukobwa wambaye ijipo n'ishati bitukura, ari gukaraba mu ntoki imbere ye hateretse ibase, amazi ari kuva muri robine.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, yunamye kuri robine avoma amazi mu ibido y'umweru.

Umugore uhagaze ateruye umwana, yambaye agapfukamunwa, ari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, iruhande rwe hari undi muntu uteruye umwana, yambaye na we agapfukamunwa.

Abagore bahagaze mu cyumba bari kumwe n'abana, imbere yabo hicaye abagore babiri umwe wambaye ishati y'icyatsi, undi uri kwandika ku rupapuro.

Icyumba gihagazemo abagore, abagabo, bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umweru, inyuma yabo hari amagambo yanditse mu mabara y'icyatsi n'umutuku.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bahagaze inyuma yabo hari inzu isize irange ry'umuhondo bose bari kureba imbere.

Abana benshi bari ku mugezi bakaraba amazi mu ntoki, abandi babuze aho banyura ngo bagere ku mugezi.

Umwana w'umukobwa, wambaye akajipo n'agashati, yunamye imbere ya robine yoza indobo z'umweru.

Umwana wambaye umupira utukura, ari imbere ya robine iri kuzana amazi, atezeho igikombe afite mu ntoki ayavoma.

Abana babiri bicaye, bambaye imyenda itandukanye, bicaye munsi ya robine iri guturukamo amazi, bose bari kuyatega, bakoresheje ibiganza.

Umwana uri kuvoma amabido atatu, imbere yiwe hari abantu bari kureba ukuntu umwana ari kuvoma, hari n'umugore uri gupomba amazi kugira aze.

Umwana w'umukobwa mutoya wunamye hagati mu mazi y'ikidendezi, ari kuvoma akabido yambaye agasengeri mu gatuza.

Umugabo uhagaze, wambaye ijageti y'umukara, yanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umweru, imbere ye hari igikuta cy'inzu cy'amatafari atukura, hahagaze umukobwa wambaye ishati y'icyatsi.

Uyu mugore wunamye ari kuvoma amazi ayavana mu ibase ayashyira mu ndobo, yambaye igitenge n'ishati n'igitambara mu mutwe.

Umwana w'umukobwa wambaye ya shokora n'ishati y'umuhondo, yunamye akaraba mu biganza, amazi ari guturuka mu ndobo.

Abagore babiri bakenyeye ibitenge, banambaye amashati y'umweru, umwe akenyeye igitambara undi yambaye ingofero mu mutwe, bateruye umufuka mu ntoki.

Umugore uri koza umwana mu ibase, imbere ye hari undi mugore uhagaze ufite indobo mu ntoki uri kumwe n'umwana, begereye robine.

Abagore bari mu cyumba kimwe bari munzu iteye irangi ry'umuhondo, abagore bose barambuye amaboko bari kubyina.

Abagore bahagaze, bambaye imyenda itandukanye, inyuma yabo hari inzu y'amatafari iteye irangi ritandukanye, bose bari kureba imbere.

Umugore uhagaze, yambaye igitenge, akenyeye ikindi mu mutwe, ateruye umwana, afite igipapuro mu ntoki.

Umwana wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'icyatsi, yunamye akaraba mu ntoki, amazi ari kuva kuri robine, imbere ye hari indobo y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira utukura, yicaye hasi yegamiye igikuta kirekire ari kureba iburyo bwe.

Fondasiyo yubatswe n'amabuye ndende. Esikariye zikikijwe n'ibyuma. Inzu ifite irangi ry'umuhondo, ikagira amabati afite irangi ry'umutuku.

Umugabo wambaye imyenda ishwanyaguritse, isa nabi, myinshi ku mubiri we, ahagaze ahantu bajugunya imyanda, ari wenyine.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bicaye mu cyumba gisize irange ry'umuhondo, bose bicaye bareba imbere.

Umubyeyi wicaye imbere ye hateretse isafuriya ku ziko, ari kugaranzura n'umwoko, yicaye aseka, hirya yiwe hari inzu yubakisheje amatafari atukura.

Abagore bicaye mucyumba kimwe, umwe yambaye ishati y'umweru, ifite amabara y'icyatsi yambaye n'amarineti mu maso, afite ikaramu mu ntoki inyuma ye hicaye undi wambaye ikote ritukura.

Umugabo wicaye, wihebye, ubabaye, wubitse umutwe mu maguru, yicaranye n'umukobwa uri imbere yiwe, umufashe ku rutugu, uri kumuhumuriza.

Abana b'abahungu n'abakobwa bicaye bareba imbere bari hagati y'imyaka icumi na cumi n'ibiri bari guseka barishimye.

Guseka ni byiza ku buzima bw'umuntu, birinda iminkanyari mu maso, bikarinda indwara zituruka ku kwiheba, bigatuma umuntu bamukanda.

Umugore uhagaze muri butike yambaye jiri y'umuhondo, harimo ibicuruzwa bitandukanye, blue band n'ibirungo byo gushyira mu biryo.

Umugore wicaye wambaye ijipo n'ishati, akenyeye igitambara mu mutwe, utereye umwana mu ntoki, imbere y'iwe hicaye undi mwana w'umuhungu.

Si byiza kurakara, kuko bitera indwara zitandukanye, nk'indwara y'agahinda, indwara y'igifu, bigatuma umubiri uzana iminkanyari mu gahanga.

Umugabo wicaye hasi yambaye ikabutura n'isengeri, yambaye ipine mu gatuza iruhande rwe hahagaze abantu.

Umugore wambaye umupira w'umweru, ahagaze ateruye umwana wambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara, bose bari guseka.

Umucecuru wambaye ubusa hejuru, ateze igitambaro mu mutwe, ahagaze wenyine areba imbere.

Kurira ubabaye ni byiza, bifasha umubiri kutarwara indwara iterwa n'agahinda gakabije, bikanafasha amaso gusa neza.

Abagore batatu bicaye, bose bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda itandukanye, umwe muri bo afite ikayi mu ntoki.

Umwana w'umunyeshuri wambaye inifome y'umweru n'ubururu yicaye ku ntebe areba imbere aseka arikurya biswi.

Abagabo n'abagore bahagaze bambaye imipira y'icyatsi, hagati yabo harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Ni byiza kurira mu gihe wumva ubabaye, bifasha umubiri kuwurinda indwara zituruka ku gahinda gakabije, bikanafasha amaso gukomeza gusa neza.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bahagaze begeranye, batanu muri bo bafite ibyapa mu ntoki, bose bahagaze bareba imbere.

Abagore n'abagabo bari mu cyumba kimwe giteye irangi ry'umweru, bahagaze bareba imbere.

Umusore wicaye mu cyumba wenyine, ari hagati y'imyaka cumi ni tanu na cumi n'umunani, yambaye ubusa umubiri wose.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ahagaze wenyine areba imbere, inyuma ye hari abantu benshi bagiye batandukanye.

Abakobwa babiri bicaye, umwe yambaye ikote ry'umutuku ingofero mu mutwe, undi yambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, bose bicaye barebana.

Umugabo wicaye hasi yambaye umupira utukura, mu maboko ye bamwambitse amapingu, yicaye areba imbere.

Abagore bicaye imbere yabo hari umugabo wicaye ku gatebe yambaye ipantaro, yazamuye ukuguru kw'ipantaro kumwe ari kubereka ukuguru kwiwe uko kumeze.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, irimo amabara y'ubururu n'ipantaro y'umukara , ahagaze imbere ye hari umugabo wambaye imyenda icikaguritse, bari gusuhuzanya bombi barebana.

Abagore, n'abagabo, n'abana, bahagaze bafite amabendera mu ntoki bazamuye amaboko. Bambaye imyenda itandukanye.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bo bicaye ku ntebe, abandi bahagaze inyuma yabo, bose bari kureba imbere.

Abagore babiri bicaranye, umwe yambaye ikanzu y'ubururu irimo umweru mu gatuza, undi yambaye ikanzu y'umukara bose bicaye barebana.

Abana b'abahungu n'abakobwa bambaye imyenda itandukanye, bicaye bareba imbere, bose barishimye bari guseka.

Umwana w'umukobwa wicaye yambaye agakanzu, imbere harimo agapira k'umweru, yarasamye yashyize uburoso mu kanwa.

Icyumba gisize irangi ry'umweru amatara ari kwaka, harimo ibikoresho bitandukanye, imashini n'intebe.

Umusaza uhagaze mu cyumba giteye irangi ry'umweru, imbere ye hari isabune, ari kureba mu kiganza.

Ni byiza gutoza umwana akiri muto kumenya gukora isuku y'amenyo, bimufasha kugira impumuro nziza mu kanwa, akagira n'amenyo meza.

Si byiza kujomba ibiti mu menyo dukuramo imyanda, kuko bitera uburwayi bw'amenyo bikangiza ishinya y'amenyo.

Si byiza gukoresha amenyo uca ibintu, nk'indodo cyangwa se ibyuma, kuko byangiriza amenyo bikangiriza n'ishinya yo mu menyo.

Icyumba gisize irange ry'umweru, harimo amatara ari kwaka, harimo ibikoresho bitandukanye, intebe, utubati.

Ni byiza guseka bifasha umubiri gusa neza, bikarinda indwara zituruka mu kwigunga, bigatuma umuntu agira uruhu rukeye.

Inzu ndende isize irangi ry'icyatsi kibisi, ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, imbere yaho hari urugo ruyigose, rusize irangi ry'icyatsi kibisi.

Icyumba gisize irange ry'umweru, harimo amatara ari kwaka, harimo isaha, intebe n'utubati.

Si byiza gukoresha amenyo mu guca ubudodo kuko byangiza amenyo bikaba byanatera ikibazo cyo kuba wakuka amenyo hakiri kare.

Abakobwa babiri bicaranye, umwe ari kwandika ku rupapuro afite mu ntoki, undi ari kwerekana urupapuro anaseka.

Umugabo n'umugore bari kumwe mu cyuma kimwe, bambaye itaburiya kwa muganga, bambaye n'udupfukamunwa n'amaga mu ntoki, hasi haryamye umurwayi bari kurebera mu kanwa.

Guseka ni byiza bifasha umubiri kutazana iminkanyari, bikarinda gusaza vuba, bigafasha umuntu gusa neza.

Abana b'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye imyenda ya iniforume itandukanye, bose bahagaze biborosa mu kanwa.

Muganga uri kumwe n'umusaza urwaye, ari kumwigisha uko bagendera ku mbago, amufashe ku rutugu, bose bambaye imyenda itandukanye.

Umukecuru wicaye wambaye ishati y'umweru, inyuma ye mu bitugu hahagaze umukobwa wambaye ishati y'icyatsi, ifite ikora ry'umweru, bari guseka.

Siporo ni nziza ku muntu ukuze, zimurinda kurwara imitsi, zikamurinda umubyibuho ukabije, zikamufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abagore batatu bambaye imyenda itandukanye. Bose bahagaze bifotoza, baseka, bishimye.

Umukecuru wambaye umupira utukura, n'umusaza wambaye umupira w'ubururu, bicaye mu nzu, bose bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Umugabo wicaye ukuze, yambaye umupira w'amakabakaro ufite ijosi ry'ubururu, yicaye areba imbere y'iwe ari guseka.

Umusaza wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, yicaranye n'umwana w'umukobwa, wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu bose bari kurebana.

Umukecuru n'umugore n'umwana, bicaye mu cyumba giteye irangi ry'umweru, bose bari guseka.

Siporo ni nziza ku muntu ukuze zimufasha kugorora imitsi, zikamurinda umubyibuho ukabije, zikamwongerera imbaraga mu mubiri.

Umugore n'umugabo bahagaze mu nzu, umugabo wirabura umugore w'inzobe, bose bahagaze bareba hasi baseka.

Umugabo wambaye ishati ya makarokaro afite ibiryo mu ntoki afite imvi mu mutwe, ari guseka.

Umusaza n'umukecuru bicaranye. Umusaza afite icupa mu ntoki, umukecuru imbere ye hari imashini. Bombi bari kureba kuri iryo cupa.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu iciye amaboko, mu ijosi yambayemo agapimo bifashisha mu gupima umurwayi ari kumwe n'umubyeyi ufite inkoni mu ntoki.

Abagore bicaye bareba imbere, bambaye ibitenge bifite amabara atandukanye, bakenyeye ibitambara mu mutwe.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, yicaye mu kagare, ari guseka.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hari imeza, umusaza afite ibinini mu ntoki, imbere yabo hari ikirahure cy'amazi.

Gukora siporo ni byiza ku buzima bw'umuntu, bimwongerera imbaraga z'umubiri, bikamurinda umubyibuho ukabije, bikamurinda kurwara indwara z'imitsi, bikamufasha kugira uruhu rusa neza.

Umukecuru arikumwe n'umugore wambaye ishati y'ubururu, afite ibinini mu ntoki, ari kubihereza umukecuru ufite amazi mu ntoki.

Ni byiza gukora siporo ugeze mu zabukuru, bifasha umubiri kwirinda indwara zifata abakuze, nk'indwara z'imitsi, indwara z'imitima, indwara z'imibyibuho ikabije.

Umukecuru wicaye, afite ikirahure mu ntoki cy'amazi, hejuru ye hahagaze umukobwa wambaye itaburiya y'ubururu uri kumuha ibinini mu ntoki.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu ateruye akuma mu ntoki, inyuma ye hari umugore wambaye itaburiye y'umweru y'amaboko maremare umufashe ku kuboko.

Umukecuru wicaye mu cyumba gisize irangi ry'umweru, mu ntoki ze afite akagozi ari gukurura, imbere ye hari umukobwa wambaye itaburiya y'umukara n'agapira imbere k'umweru.

Abagore batatu bari ku murongo bambaye imyenda itandukanye, bose bari kugenda, hirya yabo hari indabo zifite amababi maremare.

Umugore wicaye, wambaye ishati y'umuhondo, ufite agacupa mu ntoki, imbere ye hateretse ibinini, ku meza.

Umugabo ukuze n' numugore ukuze bicaranye bombi ku ntebe imwe, imbere yabo bafite impapuro, bafite rumwe mu ntoki bari gusoma.

Umugore usutamye, ugaragara nk'umuganga wambaye itaburiya y'icyatsi iciye amaboko n'agapfukamunwa, imbere ye hicaye umusaza wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa, ari gusuzuma.

Abagore batatu bicaranye mu cyumba kimwe, bose baregeranye umwe afite terefone mu ntoki bari kuyirebamo.

Umusaza uhagaze mu mbago ebyiri, imbere ye hahagaze umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, amufashe ku maboko.

Umugore n'umugabo bafashe umusaza hagati yabo, wicaye ku buriri bushashe n'amashuka y'umweru, bose bari mu cyumba.

Umukecuru n'umusaza bahagaze begeranye mu cyumba giteye irangi ry'umweru harimo ibikoresho bitandukanye, bose bambaye imipira y'imituku.

Umusaza wicaye ku buriri, ari kumwe n'umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, ari kumuhagarutsa ku buriri.

Abagore bambaye imyenda itandukanye, bakenyeye ibitambara mu mutwe, bunamye basoroma icyayi bose bishimye.

Ni byiza kurya imbuto cyangwa kunywa umutobe cyangwa amazi, mbere yo kurya ibiryo, kugira ngo afashe gutegura igifu.

Ni byiza gukora siporo, bifasha umubiri kugabanya umubyibuho ukabije, zikarinda indwara y'imitsi, zigafasha umuntu gukomeza gusa neza.

Umusaza n'umukecuru bicaranye, umusaza afite terefone mu ntoki, bari kurebamo bombi, umukecuru afite urupapuro mu ntoki, imbere yabo hari ikirahure cy'amazi.

Umugabo ukuze, ari kumwe n'umugore w'umuganga uri kumwitaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ari kumukoresha siporo z'amaboko.

Umusaza wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, imbere yawo yambariyemo ishati y'icyatsi, yicaye mu cyumba gisize irangi ry'umweru, ari kwandika mu ikayi.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, n'inyuguti eshatu, imwe iri mu ibara ry'ubururu, indi iri mu ibara ry'umuhondo, indi iri mu ibara ry'icyatsi, yose yanditse ku cyapa kimwe.

Abantu bahagaze mu cyumba, mu bigaragara no kwa muganga, bambaye ga ku ntoki, bambaye n'udupfukamunwa, bambaye n'ibikote, bambara birinda ko umurwayi wabanduza icyorezo.

Ibyokurya bifite intungamubiri bifasha umubiri harimo imboga, harimo imbuto. Byose bigafasha uruhu gusa neza.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bahagaze mu cyumba, amatara ari kwaka, bose bari kureba imbere.

Gabo n'abagore bicaye mu cyumba kimwe, bambaye imyenda itandukanye, bari mu nzu iteye irangi ry'umweru, bose bicaye bareba imbere.

Icyumba cyicayemo abantu, imbere ya bo hari abagabo n'abagore bicaye babareba, bambaye imyenda itandukanye.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye bicaye barebana, hagati yabo harimo ameza ateretseho agakarito karimo ga.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bose bazamuye amaboko, bicaye mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo, amatara ari kwaka, handitsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Inzu isize irangi ry'icyatsi, ifite amabati y'icyatsi, imbere yayo hanagaze abantu, hanaparitse imodoka.

Inzu yo kwa muganga, yicayemo abarwayi ku dutebe tw'umukara, imbere yabo hari umugabo uhahagaze wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umweru uri kubareba.

Umubyeyi uteze igitambaro wambaye ikanzu irimo amabara y'icyatsi n'umweru ateruye umwana utambaye hejuru umuganga arimo kumusuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga, gisize irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye, ibitanda, utumeza two gushyiraho ibikoresho n'udutiriwari.

Inzu isize irangi ry'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, isakaje amabati y'umukara, munsi yayo haparitse imodoka.

Inzu iteye amarangi y'umweru, amatara ari kwaka, nta muntu uyirimo mu byumba byayo.

Icyumba gifite irangi ry'umuhondo, harimo parafo y'umweru, imbere harimo imashini zitandukanye, harimo n'intebe zo kwicaraho.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu cyumba giteye irangi ry'umweru, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira utukura ufite mashini imbere ye.

Inzu y'ibitaro bya Rwamagana, iteye irangi ry'ubururu n'umuhondo, munsi yayo hahagaze abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye.

Inzu yo kwa muganga isize irangi ry'umweru, rifite idirishya ry'umukara, harimo ibikoresho bitandukanye, igitanda n'imashini.

Inyubako yo kwa muganga ifite icyumba kirimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura abarwayi, ikaba ifunze mu dukarito.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari indabo z'umuhondo, zihateye.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, amatara ari kwaka, harimo ibikoresho bitandukanye igitanda, intebe, n'akameza.

Inzu y'amatafari atukuye, iteye irangi ry'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, munsi yayo hahagaze abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye.

Inzu isize irangi ry'icyatsi n'irangi ry'umukara, ifite amabati y'icyatsi kibisi, imbere yayo hahagaze abagabo, haparitse n'imodoka.

Umugore ateruye umwana wambaye imyenda y'umweru, hejuru yabo hahagaze umugore wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi n'agapfukamunwa.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, gicanye amatara, harimo ibikoresho nk'intebe, agatiruwari ko gushyiraho udukoresho.

Inzu ifite icyumba kirimo amagare bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, giteye irangi ry'umweru n'umuhondo, amatara ari kwaka.

Inzu isize irangi ry'umweru, ifite parafo isize irangi ry'umuhondo, imbere harimo intebe ziticayeho umuntu n'umwe.

Inzu yo kwa muganga iteye irangi ry'umweru n'umuhondo, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, amatara ari kwaka.

Icyapa gisize irangi ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umukara n'ubururu, cyegeranye n'inzu iteye irangi ry'umweru.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye ibitanda, utubati n'intebe bisize amabara atandukanye.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gifite parafo y'umuhondo, harimo ibikoresho bitandukanye, ibitanda, ameza, n'utubati.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, hasi hashashe tapi y'ubururu, harimo ibyuma biri kwaka.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, harimo amatara ari kwaka, harimo n'intebe zitandukanye, ikaba harimo n'ibishushanyo by'amoko atandukanye.

Umukobwa wambaye itabiriye y'umweru, afite akuma mu ijosi kapima umurwayi, yicaye arebana n'umukobwa uri imbere ye, ukenyeye agatambaro mu mutwe, bose bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru n'ubururu.

Inzu yo kwa muganga irimo ibikoresho, harimo firigo, harimo imashini, hahagaze n'umugabo wambaye itaburiye n'agapfukamunwa, ufite igikombe mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye imashini, igitanda, ku idirishya hariho ururabo rufite ibara ry'umutuku n'umweru.

Umugabo wicaye ku ntebe, yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, yicaye mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo, harimo ibikoresho bitandukanye.

Abagore n'abagabo, bambaye imyenda itandukanye, bahagaze bareba imbere, inyuma yabo hari inzu y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bishashe, kirimo udutiriwari, harimo n'amatara ari kwaka, inzu iteye irangi ry'umweru.

Inzu ifite amatafari atukura, isize irangi ry'umuhondo, yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, bicaye mu cyumba kimwe bareba imbere, imbere yabo hari abagabo bicaye babiri n'umwe uhagaze wambaye ikote ry'umukara.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo amatara ari kwaka, harimo ibikoresho bitandukanye, imashini n'udutanda.

Inzu yo kwa muganga ifite icyumba giteye irangi ry'umweru, harimo imashini, haryamyemo umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, hejuru yiwe hicaye umugabo wambaye itaburiya y'ubururu na ga mu ntoki.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye, igitanda, intebe, n'imashini bifashisha mu gupuritinga impapuro.

Inzu ya farumasi ifite inzugi z'icyatsi, hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, farumasi iteye irangi ry'umweru.

Icyumba gisize irange ry'umweru, gifite iparafo y'umuhondo, harimo ibikoresho bitandukanye, ibitanda, ameza na tiruwari.

Inzu yo kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo matera zifite ibara ry'icyatsi ziri ku bitanda by'umweru, inzu irimo amatara amwe ari kwaka isize irangi ry'umweru.

Icyumba gisize irange ry'umweru, amatara ari kwaka, harimo imashini zitandukanye ziteretse muri icyo cyumba.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gifite amatara acanye, mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inzu y'ibitaro isize irangi ry'umweru ifite amabati y'icyatsi, ifite igipangu giteye irangi ry'umweru hejuru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ari mu cyumba wenyine, imbere yiwe hari imashini ari kurebamo.

Icyumba gisize irange ry'umweru, kimanitsemo isaha, harimo ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo, ifite inzugi zitukura, ikagira ibirahure by'ubururu, ikagira icyapa cyanditseho amagambo ari mu nyuguti z'ubururu.

Inzu y'umweru iri kwaka amatara, ihagazemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'ingofero mu mutwe y'umweru, afashe ku mashini iri kwaka.

Inzu ifite ibirahure by'umweru, isize irangi ry'umuhondo, ifite amabati y'umukara, hari umugore uri kujyayo wambaye ibitenge witwikiriye umutaka.

Umugore wambaye ishati, ipantaro by'ubururu, ari mu nzu iteye irangi ry'umweru, ari kugenda areba imbere.

Icyumba gisize irangi ry'umweru na parafo y'umweru, harimo igitanda n'imashini iri kwaka.

Inzu yo kwa muganga ifite icyumba harimo imashini y'umweru, hahagaze umugabo wambaye itaburiya yo kwa muganga, afashe ku iyo mashini.

Inzu isize irangi ry'ubururu n'iry'umuhondo, imbere yayo hari igiti kirekire giteye mu busitani.

Abagabo babiri bicaranye, bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye rineti mu maso afite ikaramu mu ntoki, bombi bari kurebana.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo garide robe isize irangi ry'umuhondo n'umweru, harimo igitanda cy'umweru, harimo n'intebe y'umweru.

Inzu ndende, iteye irange ryumweru n'ubururu na shokora, imbere yayo hateye igiti cy'umukindo cy'amababi maremare.

Mu icyumba giteye irangi ry'umweru; harimo akabati, harimo n'imashini isize irangi ry'umweru

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ahagaze ku nzu isize irangi ry'umuhondo, ifite idirishya riteye irangi ry'icyatsi.

Inzu isakaje iparafo y'ibiti, imbere harimo ibyuma bitandukanye, bifashisha mu gukora siporo.

Inzu isize irange ry'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yaho hateye indabo ziri ku murongo.

Icyumba kirimo imashini y'umweru n'ubururu, hahagazemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, arunamye.

Inzu y'ibitaro isize irange ry'umweru n'umuhondo, harimo ibitanda kimwe kiryamyemo umurwayi, ibindi bibereye aho.

Umugabo uryamye ku buriri, wambaye umupira w'umukara, imbere ye hahagaze abagabo babiri, umwe amufashe, mu rubavu.

Umugabo upfukamye, ushyize amaboko imbere, yambaye isengeri y'umweru n'ikabutura y'umukara ifite ibara ry'umweru, ari gukora siporo.

Umugabo uhagaze, wambaye itaburiya y'umweru, yambaye mu ijosi akuma bifashisha mu gupimisha umurwayi, ateruye umupira wa Rugubi mu ntoki.

Umugabo wicaye uteruye icyuma mu ntoki, uri gukora siporo, yambaye umupira w'ubururu bwijimye, hejuru yiwe hahagaze umuntu wambaye itaburiya yo kwa muganga.

Umugabo n'umugore bambaye jire zitukura n'imipira imbere y'umweru, bari kuvura umuntu uryamye, hejuru yabo hahagaze abagabo bambaye imyenda ya siporo itandukanye.

Kunywa amazi uvuye muri siporo ni byiza mu mubiri, biwufasha gusohora imyanda, bigafasha uruhu gusa neza, bikarinda indwara y'umutwe, bigafasha umubiri gusubirana amazi watakaje.

Ni byiza gukora siporo ngororamubiri, zikomeza amagufa, zikarinda umubyibuho ukabije, zikarinda indwara y'imitsi, zigafasha umubiri gukomeza gusa neza.

Imyitozo ngororamubiri, irinda umubiri indwara zitandukanye, nk'indwara y'umubyibuho ukabije, indwara y'imitsi, igafasha uruhu gukomeza gusa neza.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu iyo akora siporo zitandukanye, siporo zo kwiruka, siporo ngororamubiri, siporo zo gukina umupira bifasha umubiri gukomeza gusa neza.

Inzu iteye irange ry'ubururu n'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, munsi yayo hahagaze abagabo batatu, umwe ahagaze hejuru ku rwego.

Kunywa amazi uvuye muri siporo ni byiza, bifasha umubiri kongera amazi watakaje, bigafasha uruhu gukomeza gusa neza.

Umuntu ukora siporo ni byiza kurya ibyo kurya bituruka ku mbuto n'imboga bifasha umubiri gusa neza.

Siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu, zifasha kugabanya ibinure bibi mu mubiri, zigafasha umubiri gusa neza, zikarinda indwara y'imitsi n'umubyibuho ukabije.

Siporo ni nziza ku mubiri, ziwufasha gukomeza gusa neza, bikanawurinda indwara zitandukanye, ariko bikaba byiza kurusha iyo uva muri siporo, ugafata n'ibyo kurya birimo imboga n'imbuto.

Amazi ni meza ku mubiri, dukwiriye kuyanywa buri munsi, afasha umubiri kurinda kurwara impyiko ndetse n'umutwe.

Ni byiza kurya imbuto uvuye muri siporo bifasha umubiri gukomeza kugira ubudahangarwa, bikanafasha gukomeza kugira uruhu rwiza.

Ni byiza gukora siporo, bifasha umubiri mu guhangana n'indwara zitandukanye, nk'imivuduko y'amaraso, umubyibuho ukabije, n'indwara y'imitsi.

Siporo ngororamubiri ni nziza zifasha umubiri kutarwara indwara y'umubyibuho ukabije, zikarinda indwara y'imitsi zigafasha umubiri guhorana ubudahangarwa.

Umuntu wakoze siporo akenera ibyo kurya bikurikira: inyama, ibishyimbo, amagi, imineke, amashu, shufurere.

Amazi ni meza ku buzima bw'umuntu, ni byiza kuyanywa kuko afasha koza mu nda, akarinda kurwara umutwe, agafasha uruhu gusa neza kandi akoza impyiko.

Siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu, zirinda umubiri kurwara, zigasohora imyanda mu mubiri itari myiza, bigatera uruhu gusa neza.

Kunywa amazi uvuye muri siporo ni byiza cyane, bifasha umubiri gusohora imyanda, bigafasha umubiri kongera amazi watakaje, agafasha uruhu gusa neza.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, zirinda umubiri umubyibuho ukabije, zigafasha uruhu gusa neza, zikarinda indwara y'imitsi, zigafasha abasirikari b'umubiri kugira imbaraga.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ifasha umubiri mu kurwanya indwara zitandukanye, nk'indwara y'agahinda gakabije, indwara y'umutima, indwara z'umubyibuho ukabije, zikanarinda umubiri kurwara imitsi.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha kunanura imitsi, bikarinda umubyibuho ukabije, bigafasha uruhu kumera neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku buzima bw'umuntu, ifasha umubiri gusa neza, bikarinda indwara z'imitsi, zikarinda umubiri umubyibuho ukabije.

Siporo ngororamubiri ni nziza ku buzima bw'umuntu, zimufasha kugabanya ibiro, zikamurinda indwara y'imitsi, zikamufasha mu kugira uruhu rwiza.

Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, ifasha mu kuvura imitsi ikarinda imitsi, ikarinda umubyibuho ukabije, igafasha uruhu gusa neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku bakobwa, ibarinda umubyibuho ukabije, ikabafasha kugira uruhu rwiza, ikabarinda kurwara imitsi.

Abagabo batatu bapfukamye hasi, umwe muri bo yambaye mask mu mutwe, abandi bombi babiri bafite ibitambara mu ntoki by'umweru.

Icyumba kirimo umuntu wicaye mu kagare, hejuru y'iwe hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, amufashe ku kuboko.

Imyitozo ngororamubiri irinda ukwipfundika kw'amaraso, ikarinda kurwara imitsi, igafasha umuntu gusohora imyanda mu mubiri, igafasha uruhu gusa neza.

Siporo ni nziza ku mubiri, zifasha umubiri kuwurinda indwara zitandukanye, indwara y'imitsi, indwara y'umubyibuho ukabije, zigafasha umubiri gukomeza gusa neza.

Siporo ni nziza ku mubiri, zirinda umubiri umubyibuho ukabije, zigafasha kugororoka kw'imitsi, zikarinda kurwaragurika k'umubiri.

Umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ifite amaboko maremare, imbere ye hari umuntu wazamuye ivi ari kumukandiraho.

Siporo z'ingororamubiri ni nziza ku mubiri, zifasha uruhu kumera neza, zikavura indwara y'imitsi, zikagabanya umubyibuho ukabije.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, yambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hari umwana wasamye ari kurebera mu kanwa.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku buzima bw'umuntu, ifasha umubiri gusa neza, ikarinda indwara z'umubyibuho ukabije, ikarinda indwara z'imitsi, igafasha umubiri wacu kugira imbaraga.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, harimo imashini y'umweru n'akabati k'umweru, munsi hateretse indobo y'umuhondo.

Kunywa amazi uvuye muri siporo ni byiza, kuko uba usubije amazi mu mubiri watakaje, bikanarinda umubiri kuba wagira indwara nk'iz'umutwe bitewe n'ibura ry'amazi.

Imyitozo ngororamubiri, ifasha ingingo kugororoka, ikarinda kwipfundika kw'imitsi, ikarinda umubyibuho ukabije, igafasha umubiri kugira ubudahangarwa.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku buzima bw'umuntu, irinda indwara zitandukanye, nk'indwara y'imitsi, indwara y'umubyibuho ukabije, zigafasha umubiri kugira imbaraga.

Icyumba giteye irangi ry'umweru cyanditseho amagambo siporocale mw'ibara ry'ubururu harimo ibyuma bitandukanye bifashishwa mu gukora siporo.

Siporo ni nziza ku mugabo, zituma agira umubiri ukomeye, zikamurinda kurwaragurika, zikamufasha gusohora imyanda mibi mu mubiri.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, zimufasha kwirinda indwara zituruka ku mubyibuho ukabije, zikamufasha kwirinda kurwara imitsi, zigafasha umubiri gusa neza.

Siporo ni nziza ku buzima bw'abantu, ni byiza ko abagore n'abagabo n'abana bashishikarizwa gukora siporo, kuko zibafasha kugabanya ibinure bibi mu mubiri, zigafasha kugira uruhu rwiza.

Kunywa amazi uvuye muri siporo ni byiza, bifasha umubiri gusubirana amazi watakaje, bikanakomeza kongerera umubiri gusa neza.

Ga ni nziza zifasha ibiganza gukora siporo, zikarinda uruhu kwangirika mu gihe umuntu ari guterura ibintu biremereye cyangwa se ari gukora pompaje.

Siporo yo kwiruka ni nziza cyane, ifasha umubiri gusa neza, igafasha umubiri kwirinda indwara no kugororoka kw'imitsi kandi bikarinda gusaza k'uruhu.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku buzima bw'umuntu, imurinda indwara zitandukanye, indwara y'umubyibuho ukabije, indwara y'imitsi, ikamufasha kugira uruhu rwiza.

Siporo ni nziza ku mubiri wa muntu, zimufasha kwirinda indwara zitandukanye, nk'indwara y'imitsi, indwara y'umubyibuho ukabije, indwara y'umutwe, ndetse zikamufasha no kugira uruhu rwiza.

Kunywa amazi ni ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu, afasha umubiri kugira itoto, agafasha umubiri gusa neza, agafasha impyiko kuzoza.

Imyitozo ngororamubiri irinda umubiri umubyibuho ukabije, ikarinda kurwara indwara y'imitsi, igafasha umuntu gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Iri gare rifasha abantu bafite ikibazo cy'amaguru badashobora guhagarara, rikabatwara aho bagenda hose.

Siporo ngororamubiri ni nziza ku mubiri w'umuntu, zimurinda indwara zitandukanye nk'indwara y'iminsi, indwara y'umubyibuho ukabije, zikamwongerera imbaraga mu mubiri.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, zirinda umubyibuho ukabije, zigafasha umubiri gusa neza, zikarinda indwara y'imitsi.

Umuntu wicaye mu cyumba ku buriri wambaye umupira wa oranje, ari kureba ku ivi aho apfutse n'igipfuko.

Kunywa amazi menshi ni byiza, bifasha umubiri gusohora imyanda mibi mu mubiri, bikarinda impyiko kurwara, bigafasha uruhu gusa neza.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, zirinda indwara zitandukanye, nk'indwara z'umubyibuho ukabije, indwara z'umutuma, indwara z'imitsi, zigafasha umubiri gukomeza gusa neza.

Inkoni y'imbago iri mu ibara ry'umweru n'umukara, yifashishwa ku muntu ufite ikibazo cyo guhagarara no kugenda umwanya muremure.

Siporo ni nziza ku bagabo n'abasore, zibafasha gutekereza neza zikabarinda kwipfundika kw'amaraso, zikabafasha kugira uruhu rwiza.

Amazi ni meza ku buzima bw'umuntu, afasha umubiri gusohora imyanda mibi, akarinda indwara y'umutwe, agafasha uruhura gusa neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku mubiri w'umuntu. Birinda umubyibuho ukabije, bikarinda indwara y'imitsi, bigafasha umuntu kugira umubiri mwiza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ku buzima bw'umuntu, ifasha umubiri kurinda umubyibuho ukabije, igafasha umubiri mu kurinda indwara y'imitsi, igafasha umubiri gusa neza.

Isombe ni igihingwa gifite amababi y'icyatsi, kigira intungamubiri ku babyeyi n'abana cyongera amaraso mu mubiri.

Ubuki ni bwiza ku mubiri, bufasha umubiri kongerwa ubudahangarwa, bugafasha mu kuvura indwara nk'inkorora, bugafasha umubiri gutakaza ibiro.

Icyatsi cy'amatovu ni icyatsi cyiza, gifasha mu miti itandukanye kandi kiboneka ahantu henshi, kivura indwara nk'iz'amahumane n'ibiheri ku mubiri.

Uburyo bwo gutunganya imiti ya kinyarwanda wifashishije isekuru n'umuhini ukayishyiramo ugasekura.

Icyatsi cy'umwenya kigira akamaro ku muntu mu kuvura indwara zitandukanye, inkorora, inzoka zo mu nda n'ibisebe.

Ibinini ni byiza bifasha kuvura indwara zitandukanye, ariko si byiza buri gihe gukoresha ibinini buri uko wumva umubiri utameze neza, uba ugomba kureka umubiri na wo ubwawo ukivura.

Icyatsi cyiza, gishishe, gifite amabara y'icyatsi, amababi yayo ni maremare cyane, gisa neza.

Igitunguru cya onyo, indimu ni byiza cyane ku buzima, bivura indwara zitandukanye, indwara y'amaso, indwara y'inkora kandi bikaboneka ku giciro cy'amafaranga make.

Igikakarubamba ni icyatsi gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, inkorora, inzoka zo mu nda, kinifashishwa mu kuvanamo isabune zo koga.

Indabo ni nziza zidufasha kubona umwuka mwiza, zikadufasha gutaka ahantu kandi zikaduha n'ibyo kurya.

Ishyamba ni ryiza ku buzima bw'umuntu ndetse n'ibinyabuzima byose kuko bitanga umwuka mwiza, bigatanga ibyo kurya kandi bigatanga n'imiti.

Umuravumba ni icyatsi kigira amababi y'icyatsi kibisi, uvura indwara zitandukanye nk'indwara y'inkorora, indwara y'ibicurane, indwara ya anjine.

Urubuto rwa tangawise ni rwiza mu kuvura indwara zitandukanye, umuvuduko w'amaraso, igorora, kandi rirahendutse kuyibona.

Umuravumba n'icyatsi gifite amababi y'icyatsi kibisi avura indwara zitandukanye, Inkorora n'inzoka zo mu nda.

Igikakarubamba ni icyatsi cyiza, kivamo imiti ivura indwara zitandukanye inkorora, inzoka zo mu nda, kinavura ibiheri byo mu maso.

Igikakarwamba ni igihingwa cyiza cyane kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, nk'indwara y'ibiheri, indwara y'inzoka zo mu nda.

Igikakarubamba ni icyatsi kigira amababi maremare, kivura indwara zitandukanye ibiheri, inzoka zo munda, kikavamo amavuta yo kwisiga meza cyane.

Imiti ya gakondo ni myiza, biroroshye no kuyitera kuko ushobora kuyitera utagombye umurima ahubwo ugafata ibitaka ukabishyira mu mavaze, warangiza ugashyiramo imbuto zikera, ni byiza ko twikoreshereze iyo miti y'umwimerere ya gakondo.

Ikarito ya mpande enye ifite amabara atandukanye, ibara ry'umweru n'iry'ubururu, byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Imiti ya gakondo ni myiza, ivura indwara zitandukanye. Biroroshye kuyitunganya, kandi ntabwo ihenda kuyibona.

Kunywa imiti ukarya n'indimu, byongerera ubushobozi vitaminini c, ifasha umubiri kugira ubudahangarwa mu kurinda indwara.

Umuravumba ni icyatsi kigira amababi y'icyatsi kibisi, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, indwara y'inkorora, indwara y'inzoka zo munda.

Igikakarumba ni icyatsi kivura imiti itandukanye, kifashishwa ahantu hose, kivura inkorora, kivura inzoka zo munda, kikavura n'ibiheri byo mu maso.

Ni byiza gutera indabo imbere y'urugo, zitanga umwuka mwiza, zigafasha kugaragaza ahantu neza.

Umuti w'amenyo uri mu macupa atandukanye, ari mu ibara ryicyatsi n'umweru, afasha amenyo gusa neza.

Imiti ya gakondo ifasha kuvura indwara zitandukanye, ni kuyikoresha kuko nta ngaruka igira ku buzima bw'umuntu kandi ntabwo ihenda.

Igikakarubamba ni icyatsi kigira amababi maremare, cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ibiheri byo mu maso, inzoka zo mu nda n'inkorora.

Icyatsi cy'umuravumba, ni icyatsi kigira umumaro ku buzima bw'umuntu, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, nk'indwara y'inkorora, indwara y'inzoka zo mu nda.

Ipapayi ni nziza ku buzima igira vitamine zitandukanye zifasha umubiri, vitamine a, vitamin b, bigafasha amara gukora neza.